Abana bari gukina, barimo abakobwa ndetse n'abahungu, iruhande rwabo hicaye sogokuru, inyuma ye hari inkoni, ni mu nzu ifunze, urugi n'idirishya kugira ngo umuyaga utinjiramo.

Ishuri ry'incuke ririmo abana bato barimo abakobwa ndetse n'abahungu, umunyeshuri umwe w'umuhungu ahagaze imbere yabo, afite icyapa kiriho inyuguti ari kubigisha kuzisoma neza uko zanditse.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bicaye mu migozi bafasha kuruhuka, izwi nk'imyicundo, barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bagiye bari umwe mu mwicundo we kugira ngo baruhuke.

Igishushanyo cyifashishwa mu kwigisha abana ibice by'umubiri bo muri pirimeri, kigaragaza ibice bitandukanye, birimo amaso, umunwa, ingoyi, umutwe, amazuru ndetse n'agatuza, amaguru, amano ndetse n'ibindi bice birimo amaboko ndetse n'inzara.

Ikigo cy'amashuri abanza umunyeshuri ahagaze yegamye ku rukuta undi ari kugenda afite ibitabo mu ntoki, ku rukuta rw'inzu y'ishuri hashushanyijeho ingorofani ndetse n'amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza asobanura ingorofani.

Abana biga amashuri y'inshuke bicaye mu ishuri, iruhande rwabo ku nkuta hari ibyapa bibafasha kwiga ibintu bitandukanye ndetse imbere hari ikibaho bifashisha bandika ibyo barimo kwiga.

Ishuri ryuyubakishije amatafari ahiye anyuramo irange ry'umweru, iruhande rwayo hari igikoni batekeramo, amashuri ashakakaje amabati y'umweru, iruhande rwaho hari ikibuga bakiniramo gifite amazamu y'ibyuma.

Ku nyubako y'ikigo k'ishuri hariho icyapa kiranga ishuri, harihp idarapo ry'igihugu, hariho igishushanyo k'intare iri kugenda mu byatsi yomboka.

Ibikoresho bikoreshwa mu kurera abana batoya bakiri kwiga, bifite amashusho atandukanye harimo; lnzovu, lntare, lngona, ndetse n'izindi nyamaswa zifasha abana gufunguka mu mutwe, kugira ngo bamenye ubwenge bwinshi.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri abanza hariho ibishushanyo bitandukanye hari n'ikirangantego cy'u Rwanda, inyamaswa n'umugabo wambaye karuvate n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru mu ishuri imbere harimo umwana uri kureba hanze.

Mu gitondo abanyeshuri bageze ku ishuri bari kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu babifashijwemo n'abarezi babo, abanyeshuri harimo abahungu n'abakobwa ndetse bari imbere y'amashuri yabo aho bari kuririmbira indirimbo yubahiriza igihugu.

Mu cyumba cy'ishuri cy'inshuke harimo abayobozi baje kureba uko abanyeshuri biga, harimo abayobozi bo mu nzego z'ibanze, abo mu nzego z'umutekano harimo n'iza gisirikare, ababyeyi bari kumwe n'abana babo.

Akanyugunyugu k'amabara y'umweru, umukara n'umuhondo, kari ku rurabo kari kunyunyuzamo umutobe w'ururabo kugira ngo kabone ibyo karya ke gupfa kandi gakomeze kaguruke mu kirere nta kibazo gafite.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke bicaye mu ntebe mu ishuri bakurikiye mwarimu, imbere hari ikibaho cyanditseho imibare, ku rukuta rw'ishuri barimo hariho ibishushanyo bibafasha kwiga neza ibyo biga.

Ku muryango winjira mu kigo k'ishuri kimwe cy'amashuri yisumbuye, haragaragara urugi rwubakishije ibyuma bifite irange ry'icyatsi n'imbere mu kigo harimo abanyeshuri batandukanye bari kwiga, abandi bahagaze. Ni inyubako zikikijwe n'ibiti.

Ameza ariho urupapuro ndetse n'amarati yifashishwa mu guca imirongo, ikiganza kiri gushushanya uruziga cyifashishije ikaramu y'igiti, iruhande hari agakoresho babikamo amarati n'ibindi bifashisha bashushanya inziga n'ibindi binyampande.

Umuyobozi w'ishuri ahagaze imbere y'abanyeshuri afite telefone mu ntoki ndetse n'uruvugiro ari kugeza ijambo ku banyeshuri, abarimu babo bari kugenda bababuza ku kwegera imbere abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu.

Imbere y'ikigo cy'ishuri hari ubukarabiro bwubakishije amakaro bifashisha bakaraba, inyubako zubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, iruhande rw'amashuri hari ibiti.

Ibikoresho bifashisha biga harimo amakaramu y'ibiti harimo n'ay'amabara ndetse n'ibikoresho bifashisha bayashongora, imikasi ndetse n'urubuto barya.

Umwarimu ari mu ishuri, arimo kwigisha umunyeshuri we, uko yandika imibare amukosora umwarimu yambaye itaburiya yabugenewe kugira ngo ingwa zitamutumukira, arimo yereka umunyeshuri we neza, uko bandika ibyo ari kumwigisha.

Igikapu cy'umwana kiriho igipupe gisa n'ik'injangwe ishinyitse amenyo ifite amaso y'umukara, n'utuntu mu gahanga. Ni igikapu giteretse ku meza mu cyumba ahantu hari irangi ry'icyatsi..

Ibitabo byo gusoma bifite ibihu bifite amabara atandukanye, arimo icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku, amakaramu y'ibiti yifashishwa mu kwandika ndetse n'ibikoresho bifashisha bayasongora.

Ikigo cy'ishuri cy'amashuri abanza cyubatse iruhande rw'ishyamba, hagati mu kigo harimo ibiti bizana umwuka, amashuri ashakakaje amabati y'ubururu afite marange y'umweru n'umutuku.

Ubwoko butandukanye bw'imipira bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri ndetse bakina imikino itandukanye, biri mu mabara atandukanye harimo: umuhondo, umweru, umutuku ndetse n'icyatsi.

Ibikoresho bifashisha bandika bizwi nk'amakaramu, imikasi ndetse n'amakaramu y'ibiti, biri ku meza hari ikayi bandikamo ndetse n'ibikoresho bifashisha basongora amakaramu y'ibiti.

Amashuri imbere yazo hameze neza inyuma yazo hari indabo kandi zifite amabati y'umutuku ndetse n'amarangi y'umweru, hagiye harimo n'utubara tw'andi mabara harimo nk'umutuku ndetse n'andi mabara atandukanye.

Umwarimu wigisha iby'ubutabire ahagaze mu ishuri imbere y'abanyeshuri afite ibikoresho bitandukanye yifashisha yigisha birimo imiti yifashisha yigisha abanyeshuri be, ni inyuma ye hari ikibaho ndetse n'isaha.

Mu kigo k'ishuri cy'amashuri abanza, abanyeshuri basohotse mu ishuri, mwarimu abari imbere abajyanye gukina, hejuru yabo hanyura urusinga rw'amashanyarazi, ndetse n'amapoto ashinze mu kigo acanirira abanyeshuri ninjoro.

Ibikoresho bifashisha mu ishuri ry'imibare. Birimo: kerayo, amarati bifashisha baca imirongo ndetse baca n'inziga ndetse n'ibikoresho bifashisha basongora kereyo ndetse n'igikoresho gikuru bifashisha babika ibikoresho byose.

Ikigo cy'ishuri kirimo amashuri menshi yubakishije amatafari ahiye n'amabati y'umutuku hashizemo icyuma kiriho idarapo ry'igihugu, hateyemo ibiti bifasha kuzana umwuka mwiza.

Umunyeshuri wambaye ijipo n'ishati ndetse na karuvati, ahagaze imbere ya bagenzi be, afite ikaramu n'igitabo, ari kubasobanurira ibyo batumvise kugira ngo nabo babashe gutsinda neza, ahagaze mu ishuri ryubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye bicaye mu rucaca barimo bumva ijambo abayobozi babo bari kubabwira. Ni munsi y'ibiti birebire bifite amashami ndetse n'ibibabi by'icyatsi.

Urubyiruko rw'abakorerabushake rwicaye mu gisharagati, rwambaye imyenda isa y'impuzankano, bari kumwe n'umuyobozi wabo, afite ikaramu n'ikayi ari kugenda yandika umwe umwe, umwe ahagaze imbere yabo abagezaho ijambo.

Mu kigo k'ishuri abanyeshuri bicaye mu nyubako bariramo bafite amasahani ariho ibiryo bambaye amashati y'umweru abandi bambaye amapantaro y'umukara, ni mu nyubako bariramo izwi nka refekitware.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bari guhabwa ikiganiro n'abapolisi munsi y'ibiti kugira izuba ritabica, barimo abasore n'abakobwa bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umikara, n'inkweto z'amabara atandukanye.

Abanyeshuri ndetse n'abarezi bari mu ishuri, barimo kubaha ikizamini, babahaye impapuro bandikaho, ni mu ishuri rigari ririmo intebe, ameza ndetse n'utubati two kubikamo ibitabo, imbere hari ikibaho kiriho igishushanyo cy'imibumbe ndetse n'isi n'ukwezi nk'uko bigaragara mu kirere cy'isanzure.

Umudamu wambaye ishati y'umweru ufite imisatsi y'imibohano ndetse n'amaherena, ahagaze imbere y'ibyuma, imbere y'inyubako imeze nk'amashuri kandi hari n'umuhanda unyuramo amabara y'umweru.

Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye rya nyagatare bari kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri na kabiri, bambaye impuzankano isa munsi y'ibiti birebire bifite amababi atoshye.

Abanyeshuri biga mu kigo cyisumbuye bahagaze ku mirongo bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro ya kaki, inyuma yabo hari ibiti birebire bifite amababi ndetse bamwe bararangaye abandi barakurikiye.

Mu nyubako y'ishuri igereretse kabiri yubakishije amabati y'ubururu ndetse n'amatafari ahiye ateye amarangi y'umweru. Hasi ifite urugo rw'ibyuma ruteye irangi ry'umutuku. Iruhande hari ibigega bifata amazi.

Umuyobozi w'ishuri ari kugenda imbere y'abanyeshuri, abanyeshuri bambaye impuzankano bari imbere y'amashuri, hirya y'amashuri hari ibiti birebire mu kirere kiri kugaragara hari ibicu by'umweru ndetse n'ubururu bw'ikirere.

Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye bambaye impuzankano harimo: inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu bahagaze ku mirongo bifashe neza, bari kuririmba indirimbo yubahiriza Igihugu.

Uwakoze neza ari gushimirwa ahabwa ibihembo bitandukanye, n'umudamu wambaye ikanzu y'umukara ndetse numu papa wambaye ishati y'umweru wambaye n'amarineti, umunyeshuri ari kwakira ibihembo bari kumuha abyishimiye kuko bigiye kumufasha.

Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye barimo abambaye impuzankano z'umweru n'umukara ndetse n'abambaye impuzankano z'umuhondo n'umukara bicaye munsi y'ibiti bateze amatwi uri kubagezaho ijambo.

Abayobozi batandukanye barimo ab'uruhu rwera basuye abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mu kigo kimwe, bari mu cyumba imbere, abayobozi bicaye ku meza imbere, telefone zabo zirambitse ku meza, abanyeshuri bakurikiye uri kubagezaho ijambo.

Ikigo cy'ishuri ku nyubako ku muryango wayo, hariho amagambo aranga ikigo ni urugi rwubakishije ibyuma ruteye irangi ry'icyatsi, ndetse urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Ni ishuri ry'amashuri yisumbuye, abanyeshuri bambaye impuzankano, bari mu ishuri umunyeshuri umwe ahagaze imbere yabo, ari kubagezaho iyo yakoze abandi bicaye bateze amatwi amakayi ari imbere yabo.

Ishuri biga mu mashuri yisumbuye bari imbere y'umwarimu wabo, arimo kubigisha mu cyumba cyagenewe ikoranabuhanga, bamwe bari kugenda, abandi barahagaze, abandi bakurikiye mwarimu mu cyumba cyiza kirimo umwuka n'ibyuma bitanga umwuka.

Ku masikariye bamanukaho bava munzu ndende izwi nk'itaje, hari abantu bamanuka umwe afite igikapu ari kugenda afungura imashini yacyo, inyuma yabo hari abandi barimo abakobwa n'abasore, iruhande rwabo hari ibiti birebire bishinze ku butaka hasi.

Ku rugi rwinjira mu isomero rurakinze ruriho ingufuri, ku rugi hariho nimero ziranga icyumba, hariho n'ikindi cyapa cyanditseho amagambo agaragaza ko ari isomero.

Ibikoresho by'ubugeni, harimo inkono, imbabura, biri kubumnga n'ababumbyi babugenewe, kugira bibe bifite umwimerere, kandi biri ku meza aho byonserezwa kugira ngo bikomere, bibashewe gukoreshwa n'abantu benshi batandukanye.

Mu mbuga ngari ishashemo amatafari akozwe muri sima, harimo imodoka iparitse, umugabo yahagaze ku ruhande, inyuma yabo hateye ibiti by'indabo bifite indabo z'umuhondo, hari ipiloni itwara umuriro wa amashanyarazi, ndetse n'umuturage uri kugenda genda mu mbuga.

Aho bacapira impapuro, umukozi ubishinzwe afite mudasobwa n'ibindi bikoresho bifashisha bacapa impapuro, ari kugenda asohora impapuro mu mashini.

Umusore n'umukobwa bari kugenda mu muhanda, umusore afite igitabo n'umugozi, umukobwa afite telefone mu ntoki yiteze n'igitambaro, iruhande rw'akayira bari kugendamo hariho indabo ndetse n'inyubako nini inyuma yabo.

Mu nyubako ikorerwamo ubukerarugendo harimo ifoto igaragaza ingagi ihetse umwana wayo, iri kugenda irya ukuntu dutandukanye. Ifoto yanditseho Rwanda ikaba ikikijwe n'amabara y'ibitenge.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bambaye imyenda isa, bafite terefone bari kureba ibintu muri terefoni baseka bishimye iruhande rw'inyubako bigiramo ndetse n'ibiti ku ruhande rwabo.

Ishuri uri mu ishuri afite terefone, afite ikayi yanditsemo ibyo ari kwiga, afite amakaramu amanini n'amato ndetse n'ikarita imuranga ko ari umunyeshuri, yicaye ku ntebe ibiganza bye biri ku meza aho ari kwigira.

Imbere y'inyubako ya Leta umuturage ari kugenda n'amaguru afite ingofero mu ntoki, inyubako isakaje amategura ndetse ku ruhande hateyeho indabo zifasha kuzana umwuka mwiza.

Umuhanda ugana mu giturage, hari amazu atandukanye, hari ibiti, hari n'umuhanda mukuru wa kaburimbo, ndetse amazu agiye atandukanye kandi afite amategura niyo ayasakaye kugira ngo umuyaga utayatwara kuko ni mu mpinga y'umusozi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano, bicaye mu ishuri bafite mudasobwa zicometse ku muriro, bari gusubiramo amasomo yabo.

Igikorwa cyo gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri barangije kaminuza, umunyeshuri wambaye ikanzu igaragaza ko arangije kaminuza ari guhabwa impamyabumenyi n'umuyobozi we wambaye ikote ry'umukara.